Urwondo bubakisha inzu, bakaruhomesha inzu bari kugira ngo ise neza mbere y'uko bateraho umucanga. Ibyondo kandi babishyira hagati y'amatafari kugira ngo inzu ikomere.

Intara bakoresha bari kugosora, ibishyimbo by'umutuku, ibishyimbo by'intonore, udufuka tw'isima dufunze.

Ikinani kirimo ibiti byumye ibitaka bita ibinombore, umufuka uteretse muri ibyo binombore, ni ibinombore bigaragara ko izuba ryabigezeho bikuma cyane.

Abantu bari kuyora ifumbire yatewe n'isuri, akayira kanyuramo abantu n'ibyatsi biri ku muhanda.

Hano hari uruhurirane rw'ibihingwa harimo ibigori, ibishyimbo , ndabona hari umuganga uri gutera imiti mu bishyimbo kugira ngo bibashe gukura neza, bizatange umusaruro uhagije.

Hano hari ikizenga cy'amazi kibamo amafi, bacyogamo, mbese ni ibyiza bitatse Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Indege iri mu kirere ifite akantu kameze nk'umusaraba . Ifite amatara y'umutuku n'ay'umuhondo. Ikirere indege zinyuragamo. Inzu iri hamwe n'indege.

Ikiyaga kibamo amafi, hakurya yaho hariho ishyamba batemamo ibiti byo gucana. N'ikindi kinani kirimo ibirayi n'ahantu hari imisozi, utuyira abantu banyuramo ari benshi.

Amafi twita isamake, Umurobyi yajyanye ikintu kimeze nka supanete, ashyira mu mazi akuramo amafi. Arimo arayashyira mu ndobo mu kanya arakuraho amagaragamba, narangiza ayateke ayarye.

Amafi amanitse k'utwuma azirikishije imigozi mu kanwa. Amafi agira intungamubiri ,amafi ni meza k'umuntu uyarya, amafi ni ikiribwa cyi...

Ifi yitwa isamake igira amagaragamba, mbere yuko bayiteka baramanza bakayaharura bakayiteka, igira intunga mubiri kandi ifi ninziza cyane, ku bana batoya.

Amafi yitwa amasamaki bayarobye ari mu kintu kimeze nk'ibase, akanuye utwisho, bategereje kuyagurisha cyangwa kuyarya.

Iparato iriho indabyo z'umukara， iriho ikiyiko，ifi ikaranze mu mavuta，umuceri usa n'umweru，n'ibindi bintu byitwa sarade，biriho na mayonese， urusenda， n'ikiyiko cyo kurisha.

Kubona ifi itetse neza, Mana we, nanjye uwayimpa nakayirya! Ifi itetse neza buri wese yakivuza kurya .Ifi yitwa isamake, ifite n'isosi yayo, amasereri, iri ku ipulato nziza, ibi biryo biraryoshye cyane!

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye, harimo igiti cy'intobo karemba ,hakabamo ibiti by'umweru ,hakabamo n'ibindi biti byitwa inturusu.

Umurima wamezemo ibyatsi basaruyemo ibigori, basigazamo impu ibitsinzi by'ibigori byitwa ibigorigori.

Hano ni mu gishanga kirimo utwatsi, wagira ngo ni uburo twinshi cyane cyangwa ishinge, ifoto ntigaragara neza ariko biragaragara nk'uburo cyangwa inshinge.

Igiti cya avoka, ibigorigori byo bakuyeho ibigori, urutoke, rubaho ibitoki ari byo bita imibyare, indabyo zikikije mu rugo, akayira banyuramo.

Ibigoriri bivamo imihembezo, umurima bahingamo imbuto, igiko ni igiti kiba gifite amahwa, ibigorigori byumye mu murima ibindi biti bitandukanye.

Aha haragaragara urutoki rurimo inkingi zifashe ibitoki imihembe ibintu bisa n'imihembezo, ibirayi, amateke y'amanyarwanda n'ibiti.

Ikinani kirimo ibyatsi, ibigorigori byumye, umuhinzi ari mu kinani, ariho ahantu hahinze ibirayi, bitari byasarurwa, harimo n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Indabo zimeze nk'amateke, cyayicyayi zimeze nk'urubingo, ibiti biteye mu murima, bigaragara nk'aho ari mu ishamba.

Umurima uteyemo, ibitunguru bita onyo, biba bimeze nk'ibirayi, bisa n'umutuku, bihinze mu mitabo, harimo na puwavuro n'utwatsi.

Umucanga uva mu migezi itemba. Umucanga wifashishwa mu kubaka amazu. Iyo umuntu awuvanze na sima bikomeza inzu cyangwa aho ubishize byose bikomeza inzu. Umucanga rero uba ukenewe cyane. Umucanga ni mwiza kandi kubakisha uba wizeye ko wubatse ibintu bikomeye.

Igishanga kirimo imibyare, kirimo ibyatsi, ibigorigori, ikiziriko cyatakaye mu murima, igipangu gikikije inzu, iyi nzu isakaje amabati y'umutuku,

Igihaza cyitwa ikiyote ,ni igihaza kiryoha kugikoramo imboga zo kurisha umuceri ,cyangwa se ukagiteka ugishyize ku bishyimbo ,igihaza ni cyiza cyane kuko kiraryoha ku bantu bakizi.

Umurima uhimzwe, urimo imitabo, hagati y' imitabo hari amabuye, hakurya hariho ibiti by'amoko atandukanye.

Imboga rwatsi zitwa inyabutongo zihinze mu murima, urimo ibiti by'isombe, amateke y'amanyawenge, cyacyayi n'ibitunguru by'amababi bikunzwe kwitwa puwaro.

Marikuja yaranze mu gihuru, kirimo indabo n'utundi duti twinshi, harimo marikuja zatangiye kuraba, zikazana impeke uduteja, ibindi birimo biraranda, ibindi birikuma, harimo numugozi w'amashanyarazi.

Ibirayi bite mu murima byareze, hameze nko mu ishyamba, ni umurima munini harimo n'ibindi byatsi byinshi bitandukanye.

Amazu ameze nk'amashuri abanyeshuri bigiramo, abantu bari kugenda mu muhanda, igiti giteye mu kayira abantu bari gucamo, iruhande rwaho hari amashami y'igiti cyagiye gihunguka akagwa mu murima, umurima wo guhinga.

Aha haragaragara imitabo ihinze mu gishanga hari ahahinze hari n'ahadahinze, hamwe hari ibigori batemaguye byeze ahandi hari urutoki, mu rutoki harimo ibirayi, harimo ibiti, amazu, amapoto n'ibindi.

Urubingo ruri mu kinani，baruha inka， bararuhembeza， ibyakatsi babiha inka， bakanabisasiza andi matungo yose atandukanye.

Igishanga kirimo amashaza atariyera ari kurabya, harimo n'ibyatsi byinshi. Amashaza ibigaragara aratoshye afite ibibabi byiza binini.

Igishanga kirimo, ibyatsi ibigorigori, n'ibiti hari n'ibigorigori bizavamo ifumbire, hakabaho n'ibindi bigorigori batemye neza, barabikokora, babyegeka mu giti kiri mu murima kugira ngo baza bihembeze, ibishyimbo.

Abahinzi bari mu murima bari gukata ibyondo bamwe bari gukora mu byondo, abandi bari gusukamo amazi, abandi ni indorerezi bari kureba gusa.

Ibigori byumye n'amasaka yumye bivangavanze. Babishyize ku ihema barabyanditse, bategereje ngo byume neza babisheshemo igikoma. Igikoma kigizwe n'ibi bintu kiraryoha.

Intoryi z'umweru, zikiriho inkondo, barunze mu kintu, ni intoryi nziza nini, zifite umwera mwiza.

Aha haragaragara abahinzi bari mu murima w'amashu barimo barabagara bari gukuramo imyanda, kugira ngo amashu abone aho akurira, akure neza bazagire umusaruro uhagije. Murakoze.

Abantu bahagaze mu ishyamba ririmo ibiti, ibyatsi abandi bari gutera amateke ku ruhande, harimo ibiti byumye.

Avoka ifite amashami menshi ariho utuvoka tw'uduteja, mu bigaragara ni voka z'imbangurirano, ziraryoha. Iyo voka ifite n'amashami aringaniye, ikagiramo n'andi mashami yumye.

Ipera ry'irinyarwanda ritukuramo imbere, rifite uruhu rw'icyatsi, rifite inkondo n'amababi yaryo. Hari ipera risatuye n'ipera ryuzuye.

Umuntu wambaye imyenda y'icyatsi afite rozwari y'icyatsi ari mu muririma y'ibitunguru ari kugenda amenamo amazi ari byo bita kuvomera. Mu mirima itandukanye bita imitabo.

Ibirayi byiza bakunda, kwita ibirayi by'umweru, biri mu muririma, ni ibirayi byiza binini, hakurya hari umufuka basaruriyemo ibirayi, biriho abantu bahagaze mu kinani, bahagaze impande y'umufuka, ibigori bihinze mu ma.

Indimu ivura indwara zitandukanye, amababi y'indimu n'ibindi biti bitagaragara neza.

Muri uyu murima harimo ihene nziza ihene sinzi niba ihene zitwa ijigija ariko njye nayita ijigija, ihene z'umweru n'umukara, ihene z'ibihogo ziri mu kinani zirimo zirarisha murakoze.

Amatunda ari ku biti, ariho amatunda yeze. Amatunda y'ibiteja. Itunda ryarabiranye kubera izuba ryinshi, hariho n'uduti tundi bashinze kugira ngo itunda rirandireho.

Marakuja barya, ibinyomoro barya, umuntu yarambuye umufuka hasi, arabitondeka ,akazajya akora umurundo umurundo uko ari buze kubigurisha, agapaniye batwaramo ibintu runaka n'ibirenge by'umuntu usa nu...

Ngeze mu isoko tuhasanga tekawe bahembamo abana ,indobo zirimo ifu ,umubyeyi uri gusuka ibishyimbo ku iparato iri ku munzani ari gucuruza, yambaye agapfukamuwa...

Abacuruzi bari mu isoko bicaye ku mifuka y'ibihaza batanditse ibihaza byitwa ibiyote babishyize ku mifuka bafunga imifungo, imifungo agapaniye batwaramo ibintu runaka...

Imifuka iteretse hasi， irimo ibirayi byinshi bakunze kwita ibirayi by'umweru，biteretse ku murongo，biri mu isoko bitegereje kugurishwa.

Ikintu kimeze nk'igihaza gisatuye gisa n'umweru bita wotameloni bakirya kidatetse , umuntu uri kugenda mu muhanda, ibitenge badodeshamo imyenda, amasharupe bifubika n'ibindi bintu bitandukanye.

Ibirayi biri mu butaka bigifashe ku birayirayi byo hejuru. Ni ibirayi byinshi cyane bishoboka imizi imera ku birarayi nubutaka.

Umwumbati ni igihingwa cyerera hasi mu butaka kiraribwa kandi umwumbati n'ibinyabijumba, utera imbaraga, ibyatsi bisasiye imyumbati kugirango ikure neza itangirika.

Ihene yitwa isekurume, yakuze itoshye ni ihene nini cyane ifite ubwoya mu mugongo, ifite amabara atandukanye, ihagaze mu gishanga cyangwa mukinani irimo irarisha.

Ibihaza byitwa kokombure barabirya . Barabisatura bakarya iby'imbere bisa n'umutuku. Hakaho ibiteretse mu gikarito ,hariho n'amaronji ateretse mu ibase, na yo barayarya.

Igitabo kikivamo imineke, amakoma bakoresha bari gutara, amakoma bapfundikiza ibiryo, umukanana bapfundikiza ijerekani,..

Isoko ririmo ibintu bitandukanye, harimo :pome ,amaronji ,yitwa oranje ,ibinyomoro bitukuye, n'ibinyomoro by'ibiteje.

Ibijumba birunze hasi wagira ngo ni ku ihema, ibijumba byitwaga tura biraryoha, bigira amafufu, ndetse no ku isoko biba bihenze.

Ironji ni urubuto rwiza ruryoha kandi igiti cy'ironji kiba gifite amahwa n'amashami, haragaragara n'ibindi byakatsi bitandukanye.

Abahinzi b'ibirayi bari mu gitare bakuye bakuyemo ibirayi babishyira mu mifuka none bii biseguje isuka mu kwaha cyangwa ko ari umuhinzi umwe urimo aronsa isuka undi ahagaze nk'uru kwifotoza mu murima mu bigaragara nyine bamaze gusarura.

Hano hari imifuka myinshi ipakiyemo ibirayi, umwero w’ibirayi ndabona ari mwiza. Ibirayi byarakuze, umuhinzi ari kugenda apakira, apakira, apakira kugira ngo abone uko azabigeza ku isoko bitamuvunnye.

Ibirayi twitaga kinigi bigiraga, amaraso menshi, bigiraga amafufu, harimo n'ibirayi biboze, ibirayi byashishutse, bigaragaraga nkaho biteze.

Karoti nziza, nini, ziryoshye, zirundarunze ahantu hamwe, umuntu yazigurisha akikura mu bukene.

Umurima urimo amashu, amashu ahinze mu murima umuhinzi ari mu murima we yaje gusarura amashu. Afashe ishu ryiza mu ntoki arishimye biragaragara ko ashimishijwe n'umusaruro w'amashu ye.

Pavuro iryoha mu biryo zirimo: pavuro y'umuhondo, pavuro y'umutuku na pavuro y'icyatsi ,pavuro y'icyatsi niyo dukunda…..

Abantu bahagaze mu murima bagemekamo cyangwa bakoreramo ingemwe urugero avoka, sipure, ibinyomoro n'ibindi.

Umuhinzi ari mu murima w'ibigori, afashe ku kigori, wagira ngo ari kubitera umuti, kugira ngo abirinde ibyonnyi, muri uwo murima harimo ibyatsi n'ibindi.

Imiteja iteretse ku kintu kimeze nk'ikirago cyangwa parafo za kera. Ibishyimbo biba bitari byazanamo uruheke ni byo bita imiteja. Bayiteka nk'ibishyimbo byonyine bakayikaranga kandi imiteje iraryoha.

Umusaza afashe ikintu kiri gutakaza amazi, arimo uruhira imboga z'ingemwe yahungitse, impande hariho urutoke n'inkingi zifashe ibitoki ,kugira ngo bitazagwa hasi.

Imiteja, ni ibishyimbo batera bikavamo ibishyimbo byitwa imiteja, ubu ni ibishyimbo bitari byera neza, bitari byazana impeke. Imboga z'inyabutongo zivura bwaki, na puwavuro bateka mu biryo biteretse ku mufuka barimo barabicuruza.

Tunyarutse ku ruhande dusanga hari iteke ryiza ryiri nyarwanda, ryitwa irinyowenge k'umuntu uritetse, rikunda gusesa amafu ni iteke riryoha cyane.

Igitari igizwe n'imitabo iteyemo inyanya inyanya zararabye zitangiye kuzana uduteja.

Indimu zitukuye zisa n'umuhondo hariho niz'icyatsi zifite utubabi dukeya, bazikuye ku giti zezeho, indimu ni nziza.

Ibigega bijyamo amazi y'imvura cyangwa amazi yakano. Ibishanga bishinzemo ibiti harimo abantu bari mu mirima barimo barareba uko ibihingwa byabo bimeze.

Umurima uhinzemo inyanya, harimo izitukuye, cyangwa zeze, harimo iz'ibiteja, umusaruzi arimo arakuraho izeze, arigusarura izeze, iziteze akazigumishaho.

Imyumbati iteretse hasi itondetse ku murongo ni imyumbati minini , umunzani n'igisahani bashyiramo ibintu kugira ngo batereke ku munnzani bapime, abantu bahagaze umuntu uri gukora mu myumbati n'undi ufashe ku kintu imyumbati iteretseho.

Iki ni igihingwa cyitwa uburo, uburo bwera ahantu ku misozi, uburo buryoshya igikoma, uburo ni igihingwa cyiza umuntu yagihinze akagira umugisha kikamuhira.

Inkoko bita imbata， ziba zimeze n'igisiga，zibyibushye， zibundamye mu byatsi，zigira amabara avangavanze nk'uko bigaragara.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye. Ibijumba byitwa ibinyamafufu, ibitunguru by'umweru, n'ibindi bitunguru bijya gusa n'umuhondo, karote, puwavuro, n'ibindi bicuruzwa bitandukanye biri muri iri soko.

Inka ziri mu rwuri zifite amoko atandukanye:inka z'umukara, ibihogo, inka y'umweru hariho umushumba uziragiye afite inkoni mu ntoki, hafi yaho hari ibiti bihakikije kugira ngo inka zitajya kona.

Abahinzi bavuye gusarura imyumbati minini cyane, mu murima harimo indi myumbati harimo n'ibyatsi, bafashe imyumbati barishimye.

Ndabona igihingwa cyiza, avoka y'inzungu y'imbangurirano iryoshye irasa n'umuhondo, ifite akabuto gatoya, mbese ni avoka buri wese yakifuza kurya, kuko iraryoha.

Amashu menshi cyane ahinze mu murima munini. Ni amashu atoshye, afite umweru mwiza, mu bigaragara azatanga umusaruro utumbutse kandi uhagije.

Ibijumba bya karoti biteretse mu gitebo bizwiho kuryoha. Bikorwamo imigati, amabiswi n'ibindi.

Aha haragaragara umuntu ufite isuka ku rutugu， uri kuvugira kuri terefone， mu bigaragara arishimye， ari mu murima w'ibigori byeze，nta wamenya wasanga aje gusarura.

Ibitunguru byinshi binini bisutse aha hantu harimo iby'umweru ,iby'umutuku n'ibindi bijya gusa n'umuhondo murakoze.

Inyanya zihinze mu murima zarabye ibinyanya byinshi, biriho inyanya z'ibiteja, n'inyanya zitangiye gutukura. Mu bigaragara ni urunyanya rwakoze neza kandi rufite ibinyanya byinshi.

Ibivunde ni imyumbati binikaga mu mazi bakayikuramo imaze iminsi mike, bakayanika ikazavamo ubugari. Amagare atwaraga abagenzi, abanyonzi batwaraga amagare. Umubyeyi arimo aranika imivunde.

Aha hagaragara ipapayi nziza zakuze neza, zifite umweru nini inyanya nziza zeze neza zafashe intungamubiri barazivomeye bashyigikiye ziriza gutanga umusaruro mwiza.

Abantu bari mu murima urimo ibihingwa bitandukanye. Bigaragara nk'ingano. Hakurya hariho igishanga kirimo ibiti, ishyamba, abahinzi cyangwa se abantu bazi kureba uko ubuhinzi bumeze.

Uri mu murima amaze gusarura karoti. Ni ibikaro byiza binini bifite umwero mwiza. Umuhinzi yishimiye ko ubuhinzi, akaba yejeje umurima munini urimo igihingwa cya karoti inyuma hari urutoke.

Inyanya zitukuye ziri ku iparato, izindi nyanya ziri mu isafuriya zikaranze mu isosi, biriho ikirushi baruza ibintu bifite amavuta, inyama zikaranze n'ifiriti byumutse bikatiyeho igitunguru biri ku isiniya y'icyuma batwikirijeho isahani y'umweru.

Inkoko zitwa imishwi ziri mu kiraro cyazo zirabundamye zirikureba.

Ibirayi biri mu murima, babisaruye babiterera hejuru, ni ibirayi binini, ibyatsi biri ukwabyo n'ibirayi biri ukwabyo. Umusaruzi yabisaruye

Abantu bicaye mu mucaca, urimo ibiti bimeze nk'imitaka bibatwikiriye, imbere yabo hariho imifuka, wagira ngo bagiye kubaha imfashanyo, hariho n'umuyobozi wabo uhagaze imbere hari ibyo ari kubabwira.

Umuhinzi mu gishanga，afite isuka mu ntoki， ari guhinga mu gishanga，ari mu ntabire nini，ishamba ririmo ibiti byinshi n’ibyatsi.

Insina ifite ibyana byinshi, inkingi ishyigi igitoki kugira ngo kitagwa, inzu yubakishije ibiti n'ibyondo, ibigori byeze biri kuma.

Intara bagosoza, bayitonoreraho ibishyimbo bitumye byitwa intonore, ikigaragara ni ibishyimbo byinshi biri ku ntara, bari mu isoko, bari kubigurisha, bananitse udufuka bagurisha, karoti n'ibindi bintu bitandukanye.

Voka y'imbangurirano yitwa voka nyarwanda ,ni utuvoka dukunze gukura ari duto mo imbere tuba ari umuhondo ,voka ifite ikibuto kandi utu tuvoka turaryoha.

Umufuka urambuye ku mapave, hateretseho pavuro n'ibase umuntu yaje azikoreyemo, agiye kuzicuruza, yagiye afunga eshateshatu ari wo mutandiko.

Ibitunguru bizwi ku izina rya Onyo ,iyo bitumye neza ukabishyira mu nzu bihita bihora, bihumuza ibiryo kandi baranabicuruza babikuramo babikuramo amafaranga.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye, hariho imyembe iteretse ku ntara, umuntu wikoreye amaronji ku gataro, ibinyomoro, amaronji, oranje, pome n'ibindi.

Ihene z'amoko atandukanye, umweru, umukara n'umweru, ibihogo, umukara. Ihene zihagaze ku biti, ziri mu kintu cyubakishije ibiti bitambitse n'ibizamuye. Abantu bafashe ihene.

Imbuga irimo uduce twinshi, tugabanyijemo imirongo y'umweru, bisa nk'aho ari mpande enye. Hagati harimo umugenda, hirya ku mpande hariho ibiti, umucaca, murakoze.

Intara bagosoreraho, umukecuru yashyizeho ibyo ari kugosora wagira ngo ni ingano, arimo aragosora yambaye umupira w'umukara n'akagofero k'umukara, afashe intara impande ebyiri, arimo araterera ahuha agosora, urugo ruba rukikije inzu.

Umuhinzi yarahinze ibishyimbo bireze avuye kubisarura. Abonye ari byinshi abona kubishyira ku mutwe biragoye. Abipakira ku igare aratashye. Agiye kubigeza imuhira, abisharike cyangwa se arebe ahantu abimanika. Igihe nikigera bizuma abimanure, abihure. Namara kubihura, azabigosora, kugira ngo bize kuvamo imyanda, abone ububigurisha cyangwa abihunike.

Ibishyimbo byitwa Nyiragisenyi, bitumye neza, ibishyimbo byiza, bitukura, biraryoha, kandi bivamo n'umwero mwiza iyo wabihinze.

Tugeze ku miteja myiza, mini iryoshye iragaragaza umwero mwiza, yakuze neza kandi ni imiteja iryoshye.

Ibishyimbo birebire bita nyiragisenyi bitukura barabihinga bikagira imisogwe miremire, ni ibishyimbo biryoha kandi bikagira n'umusaruro uhagije kandi binagaragara neza.

Igihwagari kivamo imbuto, kivamo amavuta yo guteka, igihwagari kigira intungamubiri, igihwagari ni igihingwa cyiza kandi kigaragara neza.

Ubunyobwa bukiriho ibishishwa by'inyuma , hariho ubunyobwa butonoye, n'ubunyobwa budatonoye, ibunyobwa n'uruheke bakaranga bakarurya gutyo, cyangwa se bakarushesha hakavamo ifu, umuntu akajya ayishira mu biryo igasimurara ibishyimbo.

Ibishyimbo biri ku mishingiriro， byazanye imiteja minini， ibishyimbo bifite amababi manini，harimo mu muririma, harimo n'ibyatsi.

Aha hagaragara ishusho y'umuhinzi uvuye gusarura ubunyobwa, bigaragara ko byagize umusaruro uhagije, abifashe mu ntoki byashoboka ko ari gushishikariza abantu guhinga ubunyobwa.

Umubyeyi wikoreye igitebo kirimo ibigori, ni umubyeyi wishimye cyane. Inyuma hariho ibiti byumye, kuruhande rwe hariho ibiti bimeze nk 'ishyamba.

Umurima urimo amasaka, umuhinzi yaje gusarura amasaka yumye, n'ibyatsi birebire, n'ibindi bitandukanye.

Inkoko bagosoreraho ibishyimbo, umugosozi wambaye ishabure witeze igitambaro mu mutwe wicaye ku ibuye, ari kugosora ibishyimbo yishimye.

Ubunyobwa bari kumena ku kirago buracyariho ibishishwa, bakuraho ibyo bishishwa by'inyuma bagasirana ak'imbere aribwo bunyobwa.

Ingano ni uruheke basheshamo umutsima， cyangwa se bakarusheshamo igikoma， hari imifuka ku mpande myinshi，iteretseho， irimo ingano zuzuyemo.

Iki ni igihingwa cyitwa umukunde kigaragara nk'ibishyimbo, kiri mu mufuka udoze mu budodo ikindi kandi umukunde, wakoreshwaga kugira umuntu agukunde, murakoze.

Ubunyobwa buri mu bitebo, uburi mu ibasi, basaruye bukiriho ibishishwa, umusaruzi ari mo arasarura, hariho n'ubundi bunyobwa buteye mu murima, butari bwera bwarabye.

Umuco gakondo ni kimwe mu bintu abantu baba batagomba kwibagirwa, kuko bigaragaza aho igihugu cyahoze, cyangwa se ikagaragaza umuco wa kera uko byabaga bimeze, bagakwiye guharanira kuzirikana umuco gakondo.

Ibishyimbo biri kumera, wagira ngo biri kuva mu butaka cyangwa se ukaba warashyize ahantu hakonje bikaba biri kumera.

Umutiba ushyigikiwe n'amabuye atatu，hubakishije imigano，bawuhunikagamo ibintu， hejuru ufite umufuniko bakoresheje ibirere， bawuboha neza barangije baterekaho， hasi hari ikirago bicaraho，baboha mu busuna no mu budeyi.

Imodoka ipakiye imifuka ni imifuka bita imizigo iriho ihema bafungisha kugira ngo iyo mifuka itagaragara, irimo iragenda mu muhanda w'itaka ukikijwe n'ibyatsi n'ishyamba ririmo ibyatsi abantu bahagaze iruhande rwa bicaye no kwibu...

Ibihwagari bakoramo amavuta, Ibihwagari bakoramo ifu, igasimbura ubunyobwa. Ibihwagari ni impeke.

Ibishyimbo biri mu butaka， bimajije kwigondora byavuye mu butaka， hari n'ibindi bikuba mu butaka biri kuzana amababi， ariyo azamuka akazaraba hakavamo ibishyimbo，yitwa intonore ari zo zuma zikavamo ibishyimbo byumye.

Inka zifite amabara atandukanye， arimo inka z'umukara n'umweru， z'umukara n'iz'ibihogo， ibihogo n'umweru， hari umumama ufashe inka , ndi kubona n'umupapa uhahagaze， inka ziri mu rwuri.

Amagi menshi cyane bayateretse muri tureyi kugira ngo atameneka ,ni amagi arimo ay'umweru ayo ni amanyarwanda ,n'andi atari amanyarwanda.

inka nziza, nini, y'ijigija, y'ibihogo, irimo iragenda cyangwa ihagaze mu rwuri, irimo irarisha ibyatsi murakoze.

Ihene iri kurisha ibyatsi，intama ziri kurya ibyatsi， zifite n'akandi gatama gatoya， kihagarariye mu kiraro，ibiti byubatse ikiraro bihagaze， imbariro zitambitse ku kiraro.

Imbwa zirinda urugo, imbwa zihiga inyamaswa, baziziritse imigozi mu ijosi bisa naho bari kuzinaganura, izindi baziziritse ku giti, abantu barahagaze bari gushungera, bahagaze mu kibuga kirimo umucaca, n'imbwa ni mo ziri.

Inkoko nyinshi zitanga ifumbire, zitanga inyama, zitanga amagi ,zitanga n'umusaruro w'amafaranga, ku bantu bazoroye ntabwo umuntu yazikenana.

Amagi y'amanyarwanda ateretse muri tereyi agiye atondatondetse agera hejuru kandi afite umutekano ku buryo nta na rimwe rishobora kumeneka.

Ihene zagiye kurisha zirimo n'inka z'ibihogo, ihene z'umukara zirimo inka z'umukara n'inka. Ziri mu gishanga zirimo zirarisha, hariho n'umubyeyi waje kuziragira.

Inka yijigija ifite amabara y'ibihogo n'umweru n'umukara iteze amaboko nk'inyambo, hari n'izindi z'ibihigo n'umweru, hari n'inyana y'umweru n'umukara iri konka zihagaze mu byatsi.

Abantu batwaye amagi menshi bari kunyura mu kayira k'ibitaka, amazu atuwemo abantu, imiyenzi bubakishaga urugo. Murakoze.

Inka ziri mu rwuri ahantu hari ihema risakaye. Ni inka z'amoko atandukanye hariho inka z'umukara n'iz'umweru, inka z'umukara n'umweru'inka z'ibihogo.

Inka iri mu kiraro umuntu yifashe amatwi iri mu kiraro cyubakishije ibiti, bayizirikishije ikiziriko kugira ngo itikoma. Umuveterineri afite urushinge arimo arayitera umuti.

Inkoko zitera amagi，zivamo inyama， zikora ifumbire， inkoko zirya ibiheri，inkoko zitanga amafaranga....

Inka ziri mu rwuri, urwuri rurimo ibyatsi, inka zirimo zirarisha n'inka z'amabara atandukanye, ishyamba ririmo ibiti, ibiti twita ibidukikije.

Aha hari ingurube igaragarako ifite ibyana byinshi, ingurube y'inzungu ibyana byayo irimo irabyonsa, mubigaragara ni ingurube nini itoshye.

Ingurube y'inzungu ifite amabara atandukanye yabyaye ibibwana byinshi bifite amabara avangavanze birimo bironka ingurube yabibyaye.

Inka y'ibihogo yahagaze hasi. umuntu ayifashe mu mazuru, irasamye, umuveterineri arimo arayitera urukingo, ifite amahembe ateze nk'inyambo urakoze.

Hano haragaragara ihene z’amoko atandukanye. Ihene z’umukara, izivanze umukara n’umweru, iy'ibibago n’umweru, ibihogo n’umukara, zirimo zirarisha ubwatsi. Ziri mu kiraro kandi buri hene yose bayishingiye igiti cyitwa umutarimbasha, barangije bayizirikaho.

Tereyi bashyiramo amagi, zir'amoko atandukanye, umutuku, icyatsi, amagi y'umweru, amagi y'inkoko zinyarwanda, biyita amanyarwanda.

Udushwi tw'inkoko, tumwe turi mu kintu gisa n'umutuku. Turi mu kiraro cyatwo. Turimo turarya ibiheri. Tuvamo inkoko nini ikindi dukora ifumbire.

Inka nziza y'inzungu y'ibihogo, urushinge, umuti veterineri ari gukurura umuti awuvana mu icupa awujyana mu rushinge, agiye uwutera inka, batambitseho igiti kugira ngo inka itaza kuyinyeganyeza.

Inyoni ihagaze ku giti amababa akajya munsi y'igiti, utujanja twa yo dufashe ku giti, igiti kibyibushye kiri mu kirere, inyoni ikaba igihagazeho.

Icyiyoni kiri mu bwoko bw'ibisiga bigira umunwa muremure, gihagaze mu byatsi ,kirimo kiratora ibyatsi biteye mu butaka ,igisiga gihagaze.

Inyoni zihagaze ku giti, indi ihagaze mu kirere irimo irasomana n'indi ngenzi ya bo irambuye amababa yangwa amaboko, indi imwe irazitegereza, zihagaze ku giti indi ihagaze mu kirere.

Inuma igaragaza umwuka wera ku bantu basenga. Inuma itera amagi barya, inuma ni ubwoko bw'inyoni na yo iraguruka.

Igisimba kivuga inturo, ifite ubwoya ku munwa, ifite ibyitso binini, n'amatwi maremare, banakunda kubyorora, gihagaze mu byatsi byinshi kirya imbeba zo mu nzu, n'utundi dusimba nk'imiserebanya n'ibindi.

Buretse gato dusanga inyoni ihagaze ku giti yasamye, ubwo wasanga itegereje agasimba ngo ikarye, mu bigaragara iri ku giti cy'avoka, ntiwamenya icyo itegereje, murakoze.

Akanyamasyo ni inyamaswa y' igikururanda. Utunyamasyo dukunze kubaho imyaka myinshi, hagati y'icumi na mirongo inani. Mbese ni inyamaswa ibaho igihe kirekire.

Igiti k'imyumbati gifite amashami menshi, atoshye, afite amababi menshi, inzoka irimo iratambagira, cyangwa iri mu mwumbati, murakoze.

Hari igishuhe gihagaze ku giti cyangwa urubuto rwitwa caribebefu, ihagaze ku ndabyo kirimo kirazonona.

Igisimba bitaga inkende, kiri mu giti, kicaye cyegamye gifashe ku ishami ry'igiti, kiri kureba hejuru, igiti gifite amababi, murakoze.

Igisimba kimeze nk'inka kibyibushye cyitwa elefanti iri mu byatsi irahagaze, irigukanura hakurya y'aho hari ishyamba n'ibindi bisimba.

Inkende ni igisimba giteye nk'abantu, kigenda nk'abantu ,kiremetse nk'abantu ,kiri mu murima, umurima munsi yaho harimo ahantu hameze nk'ikinani.

Ifuko y'umukara ifite amaso y'umukara tsiriri, iri mu byatsi wagira ngo ni mu ishyamba. Yahuje utuganza. Murakoze.

Inyoni iri ku giti kiryamye, inyoni iri ku giti kitwa igitsinsi cy'umugano, umugozi uziritse ku giti, murakoze.

Inkende ziri ku mugano imwe ikandagiye ku mutwe w' iy'indi, biri kugendera ku mugano uri hejuru mu kirere, umugano ufite amashami, ikirere gisa n'icyatsi n'umweru.

Inyoni yitwa inyombya iri mu giti. Iri kurya uturabo ,arimo n'ibindi biti bya moko atandukanye. Inyombya ni ikiremwa cy'Imana.

Inyoni y'umukara ifite umunwa w'icyatsi, amaguru atukura, ihagaze ku migano. Iri gutoragura udusimba. Imigano itemye iri hasi yatangiye kumera.

Igisimba kiri mu murima, gifite ubwoya mu mugongo, kiri mu bwoko bw'ifuku cyangwa imbeba, cyazamuye amaboko, kirimo kiritegereza.

Ihene ifite amahembe manini, igiti gifite amashami menshi n'amababi. Byose biteye mu ishyamba ririmo ibyatsi byinshi kandi bitandukanye.

Inyoni ihagaze ku giti, igiti kiriho umufuka ushaje, yaziritseho umurunga, uziritse ku giti umanuye, ikirere cy'umweru kigaragara igicu.

Inkende ziri mu giti buri nkende iri kumwe n'akana kayo, mu ishyamba ririmo ibiti inkende ziba mu ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Inuma itera amagi, inuma igaragaza umwuka wera, ihagaze hasi ku rutare, urutare ruza ahantu hakunze kuba ari ku misozi.

Igisimba kiri mu bwoko bw'ifuku gifite ubwoya bwinshi, harimo amabara y'umweru, ay'ibihogo, icyo gisimba kiri mu muhanda, hafi yaho bariho basiparomu.